Inama yahuje abayobozi batandukanye baganira ku bijyanye n'isuku, isuku n'isoko y'ubuzima, tugire isuku aho turi hose kugira ngo turinde indwara n'aho zaturuka hose tube twahakumira burundu.

ibi bitaro by'umwami Faisal bitanga ubuvuzi bw'ibanze, cyane cyane bita ku barwayi bafite indwara zihutirwa zitunguranye, bikorana n'ibihugu byo hanze y'u Rwanda n'ibituranyi byarwo aha ngaha abarwayi baje kwivuza ibitaro birimo kubitaho uko bishoboye.

Inyubako y'imiti, aho umuntu agura umuti umwe, akongezwa undi muti. Iyi nyubako, ifasha abarwayi kuba baza bakinjira muri iyi nyubako, bakaba babona ubuvuzi bw'ibanze mu buryo buboroheye.

Imodoka iri gusohoka iva ku nyubako yo kwa muganga yerekeza ku marembo areba ku muhanda, abashinzwe gukingurira imodoka bayikinguriye na yo irasohoka yenda kwerekeza mu muhanda.

Siporo ni ubuzima siporo ni ubugingo, umuntu wakoze siporo neza bimufasha kuba yakwirinda indwara, kandi gukora siporo neza bisaba kwiyegereza amazi ukajya unywa, kugira ngo amazi yagiye asohoka mu mubiri wawe ube wabasha kuyongeramo, ubuzima bwawe bubashe kubaho neza.

Uyu musore avuye muri siporo, ari kunywa amazi arimo isukari kugira ngo abe yanamufasha kongera kugarura imbaraga, bitewe nuko hari imbaraga yatakaje igihe yari ari muri siporo.

Imiti gakondo igiye itandukanye harimo isabune ikesha, ivura indwara z'uruhu, hakabamo n'imiti yica udusimba ishyirwa mu myaka ikaba yakwica udukoko, hakabamo na pomade yisigwa ku mubiri ahantu hari imvune.

Imiti gakondo itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, harimo ibiheri, umwijima, amahumane, amatase, n'izindi zose, zishobora kuba zafata ku ruhu rw'umuntu.